Abantu bahuriye hamwe mu isoko rigurisha amatungo, higanjemo amahene. Harimo umugabo wo hirya, yambaye agapira karimo amabara y'umuhondo, umukara, ndetse n'ibara ry'ivu. Imbere hahagaze umusore wambaye agapira k'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ahantu ubona ko ari kwa muganga haparitse imodoka iparitse ahantu hari amapave, imodoka y'imbangukiragutabara, inyuma hari inyubako isize irange ry'umuhondo.

Abantu bahagaze bagiye batandukanye, ku ruhande rw'iburyo hahagaze umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ibara ry'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akurikiwe n'umugabo wambaye agapira k'umweru, ku ruhande rw'ibumoso hahagaze umugore wambaye itaburiya y'ibara ry'umweru.

Icyumba ubona ko gisize irangi ry'umweru cyubakishije amatafari ahiye ya munyu. harimo abanyeshuri bagiye batandukanye barimo kwiga bambaye imyenda ifite amabara y'umweru.

Umugore ubona ko yambayetabuririya ifite ibara ry'umweru, arimo aratera urushinge umwana, imbere hari umubyeyi umufashe wambaye agapira k'ubururu karimo imirongo y'umweru ndetse n'iy'umukara.

Abantu ubona ko baje kumujyanama w'ubuzima, harimo umugabo wambaye agashati k'umweru gafite utubara tw'ubururu ku maboko ndetse no ki ikora, umugore wambaye agakote k'umukara, iruhande rwabo hari umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bafite icyapa ubona ko cyanditseho ngo kubohoka kuzuye. Hari amagambo ahanditse mu ibara ry'ubururu ngo icyumweru cyahariwe kurwanya ikoreshwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge mu muryango nyarwanda ,by'umwihariko mu rubyiruko.

Icyumba cy'ishuri ubona ko gisize ku nzugi ndetse n'amadirishya irangi rifite ibara ry'ubururu. Hahuriye abantu ubona ko bari kuzamura amaboko bari gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Abantu bari hamwe bahagaze ubona ko ari benshi harimo abari imbere bafite igipapuro cyanditseho kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda. Umugabo ufasheho uri ku ruhande rw'iburyo yambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Iduka ricuruza imiti igiye itandukanye, harimo imiti igiye ifite udufuniko tw'umutuku, ifite udufuniko tw'ubururu ndetse n'utubuni tugiye dutandukanye, tugiye ari utw'umweru.

Abantu bicaye ubona ko bagiye batandukanye. Harimo umugabo wicaye, yambaye akagofero afite n'agakoni mu kuboko kw'iburyo. Hejuru ye hari umugabo uhahagaze, wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umukara.

Abantu bahuriye hamwe ubona ko bari mu mahema agiye atandukanye. Hari umugore wambaye agapira k'umweru, waje ku rukarabiro, hariho indobo ifite ibara ry'ubururu n'akabase k'ubururu. Hari undi umuhagaze imbere wambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye agapira gafite ibara ry'umweru handitseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ngo ugakoreshe neza hashushanyijeho agakingirizo, afite udupapuro dushushanyijeho udukingirizo mu ntoki, ku kuboko kw'iburyo hariho amagambo yanditseho ngo ugakoreshe neza.

Abantu ubona ko barimo gutunganya imiti ya k'Inyarwanda harimo ufite agakombe gafite ibara ry'umweru ndetse n'ufite akayunguruzo n'itanwari, barimo barayungurura umuti mu isafuriya.

Abantu batandukanye ubona ko bari mu cyumba, kirimo imeza iteretseho imiti igiye itandukanye. lfite uducupa tw'umweru n'imifuniko y'umweru, harimo abambaye amataburi y'amabara y'ubururutse, ndetse harimo n'umugore wambaye igitenge kirimo ubururu.

Abantu bagiye batandukanye ubona ko bari mu cyumba. Ku ruhande rw'iburyo harimo umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru. Hirya hari umugabo ufashe ku gikarito. Iruhande rwe hari undi wambaye umupira w'umukara ndetse hariho utugambo, imbere twandikishije ibara ry'umweru.

Abantu benshi ubona ko bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo. Imbere hari umukobwa wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu. Inyuma ye hari undi mukobwa wambaye agapira gafite ibara ry'umweru.

Inyubako ubona ko isize irangi ry'ubururu, hejuru ku gikuta handitseho ngo "Gira ubuzima". Imbere yaho hari abantu bahagaze harimo umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, iruhande hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ndetse iruhande rwe hari undi mukobwa wambaye agapira k'umukara n'ingofero.